Umwarimu uhagaze hagati y'abanyeshuri bari mu mashuri y'incuke, bamwe bambaye impuzankano abandi bambaye imyenda isanzwe, irimo amakanzu, amajipo, bari imbere y'abarimu babo bumva ibyo baba...

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri bicaye mu ducaca, bambaye impuzankano ziri mu ishati y'ubururu bwerurutse n'amajipo y'ubururu, arimo arabaganiriza ibintu bitandukanye, ruguru yaho hari igiti kinini gitanga igicucu.

Icyumba kirimo umugore umwe n'abana benshi ariko bakiri batoya bose bambaye imyenda idoze mu gitenge gisa, bafite igikombe barimo banywa igikoma.

Icyumba kirimo abana b'incuke n'abamama babiri, barimo barabaganiriza ku bijyanye n'uburere, n'uko bagombye kwitwara bari ku ishuri. Bambaye udupira tw'icyatsi n'imipira y'imbeho.

Abana babiri bicaye ku ntebe umwe arahagaze bari mu ishuri rifite irangi ry'ubururu, amadirishya n'urugi. Umwe yambaye umupira ariko bose bambaye impuzankano ishati y'ubururu bwerurutse n'ijipo n'ikabutura.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke kirimo abana bakoze uruziga, bari gukina babifashijwemo n'abarezi babo; cyubakishije amatafari ahiye n'amategura, bambaye impuzankano hejuru gusa, amashati yerurutse, hasi buri wese yambaye ibye; bamwe na bamwe ni bo bambaye amajipo y'umukara ubona ko bahuriyeho.

Abana bicaye ku musambi barambije, barimo barakina, biga mu mashuri y'inshuke, bamwe bafite ibitabo, bambaye amajipo y'ubururu bwijimye n'amashati y'ubururu bwererutse.

Ikigo cy'amashuri ya pirimeri, kirimo abana barimo barakina, yubakishije amatafari ahiye, urugi rusize irangi ry'ubururu, bambara amashati y'ubururu yerurutse n'amapantaro yijimye.

Icyumba cy'amashuri kirimo abanyeshuri, bicaye bateganye bamwe iburyo abandi ibumoso, umwarimu w'umumama ari hagati yabo yambaye itaburiya y'umweru, hari ibintu byinshi bimanitse ku kibaho birimo igishushanyo nk'icy'amafi, hari ameza ateretseho agakoresho bifashisha banywa amazi n'igikombe.

Ishuri ritarimo abanyeshuri, intebe zibaje mu mbaho, inyuma hari ikibaho harimo na sima, imbere naho buriya hari ikindi.

Abanyeshuri bambaye impozankano ziri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ku ishati n'ikabutura isa kaki, bambaye inkweto zifunguye umwe rugabire undi bodadoda, bateruye akabase karimo akawunga n'ibishyimbo byuzuye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho moto ebyiri n'abagenzi, hari icyapa kirimo kiraranga ikigo cy'amashuri cya Eden gifite pirimeri n'amashuri y'inshuke, hari n'urugo rwubakishije amatafari ahiye, rusizeho irangi ari ryo ry'icyo kigo.

Abanyeshuri bo mumyaka ikiri mitoya hagati y'itanu n'irindwi kuzamura, bahagaze imbere y'igipangu bambaye unifomo, amajipo ya kaki n'amashati y'ubururu bwerurutse, bahetse ibikapu. Barimo bararebera bagenzi babo...

Umwana uri mu ishuri ufite mudasobwa bibagenewe irimo ingengabihe igaragaza uko masomo y'icyumweru aba apanze; harimo ikinyarwanda ku wa mbere, igifaransa, icyongereza ku wa kabiri, ku wa gatatu icyongereza ku wa kane imibare, ku wa gatanu igifaransa n'ikinyarwanda.

Iyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye n'ikibaho cy'umukara, harimo intebe zibaje mu mbaho, hari icyapa kimanitse mu ishuri kiriho amagambo yanditse mu kinyarwanda, imbonerahamwe y'inyuguti.

Abana bicaye mu ishuri bambaye impuzankano zisa abahungu, ishati n'ikabutura bya kaki, abakobwa ijipo ishati bisa ubururu, bicaye mu matsinda igitabo kibari imbere umwe niwe uri kwandika afite ikaye n'ikaramu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano zisa, abahungu bambaye kaki, mu gihe abakobwa bambaye ubururu. Mu ishuri bicaye bamwe bafite utujerekani turi munsi y'intebe, ishuri ntabirimo harimo amabuye.

Mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye, hari ikibaho kirekire cy'umukara cyanditseho ingwa y'umweru, hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza umukoro wahawe abanyeshuri.

Abana batoya ndetse n'umwe muri bo ubona ko ari mukuru, arimo arabakoresha umukoro bose bicaye mu gacaca, bicaye barambije, bafite ibitabo buri umwe ari gusoma, inyuma yabo hari igikapu hari n'amabuye ari mu ibara ry'umweru azwi ku izina ry'amasarabwayi.

Icyumba kirimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo intebe yo kwicaraho iri mu rubaho, ameza na yo abaje mu mbaho, igitabo, umugozi wo gucomekaho, urupapuro, akabati, n'idirishya ritwikirijeho irido n'imigozi iriho.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ishuri, hamanitseho ibyapa bibiri biriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'amarenga yifashishwa n'abantu batabansha kuvuga cyangwa aba bafite ubumuga bwo kutavuga.

Abana benshi bakiri mu myaka mitoya, barimo barakinira mu ducaca, hakurya yabo hari inzu zubakishije amategura, n'imirima iteyemo insina.

Ikigo cy'amashuri cyubakikije amatafari ahiye, kiri imbere y'umuhanda muremure w'igitaka, uruzitiro rugifashe ni senyenge, amarembo aruguruye, ari mu irange ry'icyatsi.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, ku gikuta hamanitseho igipapuro kiriho ibishushanyo n'amazina yabyo biri mu rurimi rw'Igifaransa, harimo umupira, intebe, igiti, ikaramu, igitabo n'agacamurongo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya asizeho irange ry'umweru na sa, hasi hari kaburimbo, hari n'icyapa cyanyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, bishaka kuvuga aho abashyitsi baparika imodoka zabo.

Abana bicaye mu ishuri bicaye barebana, abahungu bambaye amashati n'amakabutura ya kaki, abakobwa amajipo n'amashati y'ubururu, barambuye ibitabo barimo baragenda basobanurirana, bagiye barimo udutsinda hirya no hino.

Igipapuro cy'umweru kimanitswe ku giputa, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza avuga ku butaka, agaragaza amoko atatu y'ubutaka, anavuga ko ari cyo gice cyo hejuru, cyo ku isi. Harimo amoko atatu kimwe cyemera ko, amazi acamo, n'ikindi kidatuma amazi aca...

Ameza abaje mu rubaho, hariho ibintu bitandukanye agasahani gafukuye, ikiyiko, ikanya, igikombe n'ibiti n'akameza.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, amadirishya asize irangi ry'icyatsi, hari ubusitani n'ibiti biteye hanze y'ishuri, hari indabo, hari ama esikariye ajya ku yandi mashuri uko agenda yisumbuye.

Mu ishuri ubona ko ari amasaha yo kwiga n'umwarimu ari imbere ari kubasobanurira ibintu byanditse ku kibaho, byandikishije ingwa y'umweru, hari irange risa umweru werurutse ndetse n'ameza ari ku ruhande.

Igikuta kimanitseho umufuka ushushanyijeho ibikoresho bitandukanye byifashisha mu buhinzi, bifashishije imisumari mu kuwumanika, hariho ishoka, umuhoro, ingorofani, rozwari, igitiyo, akayuyuzo, n'ipiki.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye hamanitseho urupapuro cyangwa icyo bifashisha kugira ngo batambutse ubutumwa mu gihe kirekire, hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye mu rurimi rw'Igifaransa.

Abana bari aha bahetse ibikapu ku mugongo bava ku mashuri, bambaye impunzankano zisa: ishati y'ubururu bwerurutse, ikabutura ya kake n'amajipo ya kake, bari gukinira mu gacaca; aho bari, urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Mu ishuri hari ikibaho cy'umukara gishushanyijeho umuntu n'amagambo agenda agaragaza buri gice, byose biri mu rurimi rw'Icyongereza, bivuga umutwe, amaguru, amaso, amazuru, n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri bigaragara inyuma.

Abanyeshuri bari kuva ku masomo, bambaye impuzankano, ishati y'umweru, ijipo ya kake ndetse n'ubururu bwerurutse, hagati hari icyuma kirekire kimanitseho idarapo ry'ibendera ry'u Rwanda, riri mu ibara ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo n'ukwezi hagati, hari igiti cy'umunyinya kinini kiri imbere y'ishuri.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, ruriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yandikishije mu ibara ry'umuhondo, bifashishije imisumari kugira ngo umuyaga utatuma icyo gipapu kiguruka, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda: Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyumba kinini cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ikibaho cy'icyatsi kiri imbere harimo intebe zibajwe mu mbaho, akabati kari mu nguni n'urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo rumanitse ku rukuta.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, inzugi zisize irange ry'icyatsi, hasi hari sima ndetse n'irange riri mu ibara ry'icyatsi cyijimye ku mabati.

Abana bari mu busitani, bakoze uruziga bari gukina, bari mu myaka itandukanye hagati y'irindwi na cumi n'itatu, bakikijwe n'imirima, ibiti birimo n'insina, n'idarapo.

Ikigo cy'amashuri abanyeshuri bari hanze y'amashuri yabo, bahagaze bamwe imbere y'umurima uteyemo imboga. Bambaye impuzankano zisa, abahungu bambaye ishati n'ikabutura bya kaki, abakobwa ijipo, ishati biri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa gitereshejwe imisumari, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda:"Ndi Umunyarwanda, isano ihuza Abanyarwanda batewe ishema no kuba Abanyarwanda, bahuriye ku gukunda lgihugu u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere".

Icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, igaragaza ibikorerwa muri iki kigo cyaba amashuri, ndetse n'ivuriro rya Gatagara, inyuma yabo hari ibiti bihateye birebire n'inzu.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye, n'amategura. Kizengurutswe n'ibiti, n'imisozi. Hari abanyeshuri bari mu bikorwa by'imyidagaduro aho hariy'icungo bari kugenda, bamanukaho bicaye. Bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ishati y'umweru, n'ijipo ya kaki.

Abanyeshuri bicaye mu busitani hanze y'ishuri ryabo bambaye inifomu za siporo, udupira n'ikabutura by'ubururu n'amagambo yanditse mu mugongo mu ibara ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye; abanyeshuri bambaye impuzankano: amashati y'umweru, amapantaro y'umukara, bari mu kanya ko kuruhuka, bamwe bari kugenda abandi bari kujya hanze mu kibuga.

Abanyeshuri bamwe bahagaze abandi bicaye bari kumva ibyo bari kubagezaho, bambaye amashati y'umweru, karuvati z'umukara, amapantaro y'umukara n'inkweto zigiye zitandukanye n'imipira, hakurya yabo hari ipoto ritanga amashanyarazi.

Igipangu cyikigo cy'amashuri cy'i Butare, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa, gifite irangi ry'umweru, ubururu n'umuhondo hagati, hirya yaho hari icyapa cy'icyatsi kivuga ibyinshi kuri icyo kigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru, amajipo ari mu ibara rya kake n'amabaje mu ijosi asa ubururu, bose bogoshe mu buryo bumwe, imbere yabo hari umusaraba muremure uriho ishusho ya Yezu.

Inyubako ifite amabati y'umutuku, yubakishije amatafari ahiye, ikikijwe n'ibiti birebire, imbere yayo hari aho bakarabira intoki, hariho n'icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'ubururu.

Inyubako ifite amabati ari mu irangi ry'ubururu hari ubusitani buteyeho ibiti bikiri bito bitarakura cyane, inyuma yayo hari umusozi muremure uteye amashyamba, hari n'abantu batatu bahagaze imbere y'iyo nzu.

Ikigo cy'amashuri cy'ababikira kirimo abakobwa gusa bambaye amajipo maremare ya kaki n'amashati y'umweru, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, bakoze uruziga, abagabo babiri bari hagati b'abasikuti, bakikijwe n'urugo n'ibiti birebire.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, amabati yasize irangi ry'umutuku n'icyatsi, urugo rwubakishije narwo amatafari ahiye, n'umuhanda mugari w'amabuye, hari umunyonzi n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu, hakikijwe n'ubusitani butarakura neza.

Mu ishuri abana bicaye bafite amakaye, amakaramu; imbere yabo hari ikibaho cyanditseho ibintu, ndetse hari urugi ruri mu ibara ry'icyatsi; harimo abambaye imipira ariko bahuriye ku mpuzankano zisa, amashati y'ubururu n'amajipo ya kaki.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi, abanyeshuri urabona ko bashobora kuba bari mu gihe cy'akaruhuko, bambaye impuzankano zisa umweru hejuru ku mashati, amajipo n'ipantaro bisa kaki, inkweto ni umukara, amasogisi ni umweru, hari idarapo ry'u Rwanda ndetse n'igiti giteye iburyo bwaho.

Abanyeshuri bicaye mu gacaca bambaye impuzankano, amashati y'umweru, imipira y'icyatsi, bari kuganirizwa n'abashinzwe umutekano, hari DASSO n'umupolisi ndetse n'abayobozi babo n'umwarimu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bambaye impuzankano zisa, amakote y'ubururu, amakayi, amakaramu bari kwandika; inyuma yabo hari utubati turimo amakayi.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro y'ubururu bwijimye, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, bahagaze imbere y'imodoka yanditseho RBA, bari inyuma ya sitade.

Imbaga y'abantu bari mu ngeri zitandukanye, ubona ko bisa nkaho bari muri gare bategereje imodoka zibatwara, hari imwe yonyine, harimo abenshi ni abanyeshuri bahetse ibikapu mu mugongo, bambaye n'impuzankano, abandi ni abaturage basazwe.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati asize irangi ry'ubururu bwerurutse, hari imiryango myinshi y'amashuri igize iyo nzu, imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi n'izuba hagati. Hari ivaze itetse imbere yaho, iri mu irangi ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri giteraniyeho imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ku mashati, amajipo cyangwa amapantaro biri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, bose baricaye hari nabahagaze, hari uri kubagezaho ikiganiro afite indangururamajwi.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bose bahagaze, bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru n'amapantaro, amajipo, byose biri mu ibara rya kacye, bafite ibitabo bifashisha baririmba, birimo ibara ry'ubururu, bambaye inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara, bicaye ku ntebe z'umweru.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bahagaze ku ntebe hejuru, bahanagura ibirahuri by'amadirisha yabo, bambaye inifomu, zirimo amashati y'umweru, n'amajipo ya kaki.

Abanyeshuri bicaye mu gacaca, bari kumva ijambo umuyobozi wabo abagezaho mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye, n'ikigega gifata amazi aturuka ku mubati.

Abanyeshuri bari gukina umukino wa basket, bari mu kibuga cyabigenewe, hakurya yabo hari amashuri yubakishije amatari ahiye n'igega gifata amazi aturuka kuri ayo mabati.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, ku kibaho handitseho ibintu barimo bariga mu rurimi rw'icyongereza, umwarimu wabo abahagaze imbere yambaye ipantaro, ijire y'umukara n'agapira k'umweru.

Umukobwa muto muto wambaye ishati y'umweru, igikomo cyubururu ari ku cyarahani, ari kudoda, hirya ye hari izindi mashini zidoda, yambaye amaherena ku gutwi, N'umusatsi muke muke.

Inzu ifite amabati n'amadirishya abonerana mo imbere itara ririkwaka, hanze hari ubusitani hateye ibiti bikiri bito ubona bitamaze igihe kinini bitewe.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'inzugi ziri mu ibara ry'umutuku, ubona ko itaruzura neza hakirimo imirimo itaranozwa, bisa nk'aho ari ibyumba by'amashuri inyuma yayo hari indi na yo itaruzura neza.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi; harimo abanyeshuri babiri bambaye amapantaro ya kaki asa, ariko amashati aratandukanye, umwe ni ishati y'umweru undi ni ubururu na karuvati y'umukara.

Umunyeshuri uri mucyumba babacumbikiramo, ahagaze ku kuma kamufasha kugera aho ibikoresho bye biri muri mare, amabara yiganje ni umweru n'ubururu, yambaye ijipo ndende, amasogisi n'inkweto z'umukara n'ishati

Icyapa k'ikigo cy'amashuri cya segonderi, kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo asa umweru, byose bikaba biri mu ibara ry'umweru bivuga byinshi ku bijyanye n'iki kigo.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bicaye, bambaye impuzankano zisa ubururu, amajipo n'amakabutura, ubururu bwerurutse, amashati, ikibaho cy'icyatsi inyuma yabo, kizengurukijwe n'umugozi wifashishwa mu kuzuza amashanyarazi hanze.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, iburyo bwayo hari amadarapo abiri rimwe riri mu ibara rimwe, irindi ririmo amabara atatu, ubururu, umuhondo, icyatsi.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, buri kimwe gifite hasi no hejuru, hose hari amashuka asa mu ibara ry'ubururu n'umweru, kuruhande rw'iburyo hari mare ebyiri ziteretse kuri buri buriri n'igikapu, harimo umuntu wicaye ku gitanda ari gukora mu gikapu yambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zifatanye n'aho bandikira, nta banyeshuri barimo, harimo ibibaho bibiri bitoya byose biri mu ibara ry'icyatsi, hasize irange ry'umuhondo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye imyenda ya siporo, udupira tw'ubururu umwarimu wabo abahagaze imbere arimo arabigisha. Bamwe muri bo bambaye imipira y'ishuri y'amaboko maremare bifubika igihe hakonje.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, ririmo mudasobwa nyinshi, buri wese yicaye imbere y'iye, harimo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe, ndetse n'imbere yabo hari umwarimu uri kugenda abasoba...

Abanyeshuri bicaye mu gacaca, bambaye impuzankano zisa umweru n'ubururu, bitwikiriye imipira ku mutwe kubera izuba, bicaye imbere y'amashuri yabo, harimo afite igisenge kirimo ibara ry'umutuku, ahandi mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bose bareba imbere, bambaye amashati y'umweru, amajipo n'amakabutura ya kaki, imbere yabo hari amakaye n'amakaramu, ku kibaho hari ibyamuritswe kugira ngo aribyo bakurikira.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bicaye mu mashuri bari gukora ibizame, bambaye amashati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bafite amakaramu, bari gukora ikizamini cya leta. Ubahagaze imbere yambaye ikote, n'ishati y'umweru

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, ikigega cy'umukara gifata amazi aturuka ku mabati, hasize irangi ry'umweru n'ubururu, hari abantu bamwe bari gufata amashusho, undi yambaye rinete ndetse hubakishijwe amabuye.

Ababikira bane bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe, amashati y'ubururu bwerurutse, imipira yo kwifibika y'icyatsi, amajipo maremare y'umukara; bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize n'irangi ry'umweru ku madirishya, bahagaze imbere y'umuhanda wa kaburimbo.

Abanyeshuri bicaye mu gacaca, bitwikiriye imipira mu mutwe kubera izuba, bicaye imbere y'ishuri, hirya gato hari uri kubaha ikiganiro.

Abanyeshuri babiri bari mu muhanda wa kaburimbo , ariko bagendera mu nzira y'abanyamaguru bambaye impubankano, umwe ahetse igikapu, yambaye agatambaro mu mutwe k'ibara ryera, kameze nk'agasume.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, amabati asize irange ry'ubururu, inzugi zisize irisa icyatsi, ni ikibuga kigari kirimo ubutaka.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, hari icyapa hejuru kigaragaza ikigo cya seminari ntoya cy'i Butare, kiri mu magambo y'ubururu mu rurimi rw'Igifaransa.

Abanyeshuri bicaye mu gacaca ku ntebe munsi y'igiti, barimo baraganirizwa n'abantu babiri babari hagati, bambaye amashati y'umweru, amapantaro n'amajipo ya kake inkweto ni umukara.

Mu gikoni cyo ku mashuri hari amadishi ateretse ku amezi atanu arimo imboga, amadirisha nta birarahure arimo kugira ngo umwotsi usoke, kuko haba hakorerwamo ibintu byinshi.

Icyumba k'ishuri kirimo intebe abanyeshuri bicaraho, harimo ikibaho kiri mu ibara ry'umukara kirekire cyandikishijeho ingwa iri mu ibara ry'umweru, amagambo ari ho yose ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru, bambaye impuzankano zisa, bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu, bambaye amashati y'umweru, n'amapantaro ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, inkweto z'umukara, n'amasogisi y'umweru.

Umunyeshuri wumukobwa ufite inyweri wambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, ari mu isomero afite igitabo mu ntoki ari kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'ibyo isomero rifasha abantu kubona ubumenyi bw'ibyo batigiye mu ishuri cyangwa ibyo bize kugirango barusheho kumenya neza.

Abanyeshuri basuye mize, barimo baragenda batemberezwa ahantu hagiye hadukanye. Bambaye amashati y'umweru n'amapantaro, amajipo y'ubururu bwerurutse, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, imbere yabo hari abambaye imikenyero, amakote, ndetse n'amashati maremare y'amaboko.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'imisozi iteyeho amashyamba, hari abanyeshuri bari hanze ndetse n'umwarimu wabo wambaye itaburiya y'umweru, bo bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye hejuru ku mashati n'amapantaro, amajipo ari mu ibara rya kaki, hateye insina n'ibindi biti.

Ikigo cy'amashuri giteraniwemo n'abanyeshuri, bicaye bose mu gacaca, bambaye impuzankano isa umweru ku mashati, imipira y'ubururu harimo umurongo w'umweru ndetse n'amajipo cyangwa amashati y'umukara, hanze hari ameza n'igikoresho bifashisha kugira ngo amajwi agere kure.

abantu bari gusohoka mu nzu mberabyombi bari bateraniyemo, hari abambaye amakanzu, ipantaro, amakote, amarinete arimo araka n'amatara.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo ingeri z'abantu batandukanye, biteretse uducupa tw'amazi, mudasobwa imbere yabo, imbere hari uri kubagezaho ikiganiro.

Inzu isize irangi ry'umuhondo na shokora, ikikizwe n'ibiti birebire, itara na ryo ni rirerire rishinze mu busitani. Hari imbuga ngari abantu bashobora kuba bayikiniramo nk'umupira.

Ishuri ritarimo abanyeshuri, harimo intebe n'ameza bifashisha bandika mu gihe mwarimu arimo cyangwa undi, harimo amarido ari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu zubakishije amatafari ahiye, amabati asize irangi ry'umutuku, ruguru yazo hari ubusitani buteyemo ibiti, ndetse hari n'ikintu kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe wateye.

Icyumba kirimo igitanda kimwe gishasheho neza hariho amasume abiri bihanaguza bavuye mu bwogero intebe irambuyeho umupira w'icyatsi ameza ateretsweho agakoresho bifashisha bacaginga.

Umuhanda muremure ukikijwe n'indabo iburyo n'ibumoso, n'ibiti birebire biri mu busitani, harimo abantu bari kugenda, umwe bari kumufunga mu kagare, bigaragara ko afite ubumuga. Uyu muhanda barimo wubakishije amabuye.

Isomero ni kimwe mu bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ku mashuri kugira ngo abanyeshuri bashobore gukuramo ubumenyi butandukanye, cyane ko haba hari ubwoko bw'ibitabo bwinshi buvuga no ku bintu bitandukanye byinshi abanyeshuri bisangamo.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho kirimo ibara ry'ibyatsi ryandikishijeho ingwa y'umweru. Imibare ubona ko ari yo bari barimo barigiraho. Hejuru yabo hari icyo bifashisha bahanagura ibyanditsweho.

Inzu ziri mu moko atandukanye zifite n'ibisenge bifite amabati amwe mu mabara y'umutuku n'andi mu mabara y'ubururu akikijwe n'ibiti birebire, hari abantu barimo baragenda mu muhanda wubakishije amapave.

Igitanda kiri mu cyumba gishasheho hariho umusego, inzitiramibu, ibikapu bibiri, kimwe cyo mu mugongo ikindi cyo gutwaramo mudasobwa, hari cagi iri ku buriri ndetse n'isume bihanaguza bavuye mu bwogero irambuye ku gitanda ahagana hepfo.

Icyumba kirimo abantu batandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye, ameza, amakayi, intebe n'ibindi bifashisha mu kugira ngo amajwi agere kure, hari ibyapa biriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ubona ko ari umushinga bari kuyitaho.

Umuhanda w'igitaka urimo ibyapa bibiri, ikiri kwerekana amerekezo gishinze imbere y'igiti, ubusitani buteyemo ibindi byinshi, kiri kwerekana inzu mberabyombi, aho ibikoresho by'ikoranabuhanga biba ndetse n'iso....

Icyumba bifashisha bakoreramo ubushakashatsi butandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye, bimwe birimo iby'ikoranabuhanga, harimo abantu babiri bambaye amataburiya y'umweru, barimo barakora ubushakashatsi . Harimo purinta, n'imashini icometse kuri purize.

Icyapa kiri ku nzira kiranga ikigo cya IPRC Huye kiri mu mabara abiri, umweru n'ubururu bwijimye, handitseho n'andi magambo atanga ibisobanuro ku bijyanye n'icyo kigo, ni umuhanda wa kaburimbo, hakurya yawo hari urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Inzu mberabyombi irimo imbaga y'abantu bari mu nzira basohoka bigaragara ko ibyo bari barimo birangiye, harimo intebe ziri mu ibara ry'umutuku, abantu bagizwe n'abasore, inkumi, abagabo, amatara n'ibyuma byifashishwa mu gusakaza amajwi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inzu iriho icyapa cya Kaminuza y'u Rwanda, mu magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, urugi rusize irangi rya kaki.

Imbaga y'abantu bicaye muri resitora, bari gufata amafunguro n'ibyo kunywa, harimo ingeri zitandukanye, intebe ziri mu mabara ya oranje, umutuku, icyatsi, barimo barafata amafunguro.

icyapa kimanitse ku munyururu ndetse n'amagambo y'impine ari mu rurimi rw'icyongereza, avuga kaminuza y'u Rwanda, kiranga n'ubwiherero ku bakeneye kuba bajyayo mu gihe bari muri icyo cyumba.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite amabati asize irange ry'ubururu, hari n'isize irangi ry'umuhondo n'umutuku, hakikijwe ibiti birebire ndetse n'uruzitiro rw'icyuma,

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye harimo akabati karekare kegeranye n'akandi kagufi babikamo impapuro, harimo ibikarito, ameza, intebe yo kwicaraho n'umugozi, n'idirishya risize irange ry'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, kiriho icyapa kigaragaza ikigo icyo ari cyo mu irangi ry'ubururu n'amagambo yanditse IPRC Huye mu ibara ry'umweru, iri imbere y'umuhanda muremure wa kaburimbo.

Ikigo cy'amashuri yubakishije amatafari ahiye, hari icyapa kiriho udushami dutandatu turanga ibyerekezo bitandukanye, aho amashuri ari, aho hari ikibuga bakiniraraho umupira, ahakorerwa ibijyanye n'itangazamakuru ndetse n'aho bafatira amafunguro.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo werurutse, hejuru hari ikigega gifata amazi, hirya hari ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko, uzwi nka basikete, ndetse hari n'ibyatsi biri inyuma yabo.

Umuhanda w'amabuye uriho icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ikindi kiranga nimero y'umuhanda, urimo abantu babiri, umwe mubashinzwe gukora amasuku mu muhanda, n'undi uri kuri moto, hari ibiti birebire, n'inyubako ziri hakurya y'umuhanda.

Inyubako ebyiri ndende, imbere yaho hari abantu bagenda, abandi bagaruka, hari imitaka ibiri, hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru, n'impine, bishaka kwerekana ko ari kaminuza y'u Rwanda.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abagabo bane n'umugore umwe, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, bamwe bambaye imipira y'umweru, hari ibyapa bimanitse imbere yabo, biriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, biri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo akabati babikamo imyenda n'ibindi bikoresho bitandukanye birimo amashakoshi ari mu ibara rya kaki, ifoto, igikoresho bakoresha bamanikaho imyenda n'indi igiye izinze. Harimo ndetse n'igipapuro bakoresha mu masuku.

Umuhanda wubakikishijwe amapave ukikijwe n'ibiti n'indabo n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, urebye mo imbere hari imigozi yanditseho imyenda.

Abanyeshuri bari mwishuri bariganirizwa na mwarimu wabo, hari mudasobwa ebyiri ku ntebe, hanze hari umugozi w' amashanyarazi nindi nyubako ndende ifite amabati n' irangi.

Ishuri rinini ririmo ibibaho bibiri, igisa icyatsi n'ikindi cyumweru. Yubakishije amatafari ahiye, hari intebe n'umuntu umwe uryicayemo, harimo n'amatara ari kwaka.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, akameza hariho umugozi, ucomekaho na terefone, utujerekani dutoya, akabati karimo inkweto eshatu, n'imisego.

Imbaga y'abantu, iteraniye hamwe yicaye, mu nzu mberabyombi, aho imbere yabo hari uri kubagezaho ikiganiro, hari n'idarapo ry'ibendera ry'igihugu riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi.

Icyumba bakoreramo ubushakashatsi gisize irangi ry'umweru, harimo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye amataburiya asa umweru, bicaye ku dutebe dufite amapine y'umukara, bambaye imyenda igiye itandukanye ariko bose ni amapantaro.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abasore, inkumi, bambaye amataburiya y'umweru, bafite ga mu ntoki ubona ko bari mu bushakashatsi bw'imiti. Imbere yabo hari impapuro, amakaramu, ndetse n'udupaniye turimo ibyo bagiye bakore...

Inzu ndende isize ibara ry'umuhondo, ndetse n'ikijuju, imbere yayo hari kamera yifashishwa mu gufata amashusho, hejuru hari ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, no mu magambo arambuye byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa gishinze mu busitani, gisize amabara abiri, umweru, n'ubururu, n'ikirango cya kaminuza y'u Rwanda. Hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza, inzu mberabyombi, isomero, ndetse naho abiga ibijyanye n'ubutabire, babarizwa.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari icyapa cyanditseho Edeni kiranga restora n'ibindi bijyanye n'ibyo kurya no kunywa bafatiramo kandi hari umutaka wa MTN n'ameza n'intebe z'umutuku.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani burimo indabo ziri mu moko atandukanye, zimwe zifite amabara y'umutuku n'icyatsi hari aho imodoka ziparika ntatwikiriye aho hari umuntu urimo uratambuka agenda.

Umugore ubyibushye wambaye ikanzu y'igitenge ufite inweri ku mutwe we, indangururamajwi mu ntoki, agapfukamunwa, ndetse na baji mu ntoki, ubona ko ari kugezaho abantu ibijyanye n'icyapa kimuri inyuma, cyanditseho amagambo ari mu cyongereza ku kigo cya IPRC Kitabi.

Igikuta kiriho icyapa, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, bishaka kwerekana ko ari ishuri, kiri mu irange ry'umweru n'ubururu, hariho hejuru idirishya risize ibara rya shokora.

Inyubako ndende igizwe n'amagorofa ane, yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, ikikijwe n'ibiti, ifite uruzitiro rwubakishije ibyuma, hasi na ho hari amatafari ahiye ni yo akoze hasi, ku ruhande rwayo hari itara rirerire.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ariho icyumba kimanitseho urupapuro kigaragaza uhakorera, n'amazina ye BIKORIMANA ISHIMWE Martin, biragaragara ko ari urwakiriro..

Isomero ririmo ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye ndetse biri no mu mabara menshi: ubururu, umukara, umuhondo, umutuku, biri mu kabati.

Abanyeshuri babiri bahagaze mu muryango w'ishuri, ryubakishije amatafari ahiye, intebe zirimo nta bantu bazicayeho, hari akameza karekare, umwarimu cyangwa uhagaze imbere, yifashisha arambikaho ibitabo. Ibibaho bibiri icy'icyatsi n'umweru.

Icyumba kirimo utubati twinshi twose tubajwe mu mbaho, yaba iburyo n'ibumoso, hejuru, hasi no hejuru, turi mu nzu, hari aho bakarabira intoki kugira ngo bikureho umwanda.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru na kaki, imbere yayo hateye ibiti kimwe ni sipure ikindi ni icya avoka, hakurya yayo hari indi nyubako ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse.

Umuhanda muremure ukikijwe n'ibiti birebire n'ubusitani busa neza, ukozwe na kaburimbo ariko ubona ko yashaje kuko hari igice kimwe itariho, kirimo ubutaka n'amabuye.

Icyapa kiri mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko amagambo yanditseho aragaragara yaka. Handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru, agaragaza Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, giteye ku muhanda wa kaburimbo, hari amatara ari kwaka, icyo cyapa gisize ibara ry'ubururu, ndetse kiri no kwaka.

Inzu mberabyombi irimo imbaga y'abantu batandukanye, hari indangururamajwi n'inyakiramajwi ziri gufasha mu kugira ngo amajwi agere ku bantu bose aho bari. Hari abafite ibitabo, abahagaze barimo barasenga.

Icyumba bararamo kirimo ameza, intebe, uburoso, igikombe ndetse na prise bacagingaho. Iriho na chargeur mu Kinyarwanda bamwe bita indahuzo, igitanda n'imyenda imanitse ku gikuta. Hasize irangi ry'ubururu bwerurutse.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru na orange, amabati asa umutuku wijimye, hanze hakikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'indabo ndetse n'ahantu hari bavomye amato.

Inyubako ifite amabati asa umweru ndetse no hirya yayo hari ifite amabati asa umutuku, imbere yayo hari ubukarabiro twakita bwa kizungu cyangwa bugezweho bwubakishije amakara.

Ishuri ririmo umwarimu n'abanyeshuri bakeya, bafite amakayi, amakaramu, terefone, ikibaho, ndetse n'icyo bifashisha mu kugira ngo amashusho agaragare ku gikuta, buri wese abone ibiriho, atiriwe abirebera kure.

Inyubako zitandukanye zubakishije amategura, ndetse n'ikiganza cy'igishushanyo gifashe icyuma bifashisha bafungura amaburo atandukanye, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragaza umunsi w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, umunsi w'abakozi.

Umuntu uri mubushakashatsi, yambaye ga z'ubururu bwerurutse, hari n'uturahure dutoya turimo ibintu biri mu ibara ry'umuhondo, ubona ko ari ubushakashatsi yaramo, si ibyo gusa hari n'ibindi yakoreye ubushakashatsi biri mu ibara ry'umutuku.

Umukobwa uhagaze mu cyumba imbere y'igitanda gishashe neza, terefone n'ishati biri ku buriri, inyuma y'urugi hari indobo n'ako bashyiramo imyanda, hejuru hari akabati yariho ivariti igateretseho ifungishije ingufuri, kazinzemo imyenda n'agasakoshi kamanitse ku rugi rw'ako kabati.

Icyumba kigari bifashisha bakoreramo ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye, gisize irangi ry'umweru, hari utubati dufunze ndetse n'aho bakarabira cyangwa bogereza, aho bamaze gukorera ibyo bakoraga mu bushakashatsi, hari n'uturahure bakoresha mu bintu byabo.

Icyumba kirimo ameza, intebe ebyiri, mudasobwa, ikayi, ikaramu, amarinete, uburiri bushashe buriho imisego ibiri.

Inyubako eshatu ndende, zikikijwe n'ibiti birebire, n'ubusitani buteyemo indabo. Umuhanda harimo abantu bari gutambuka, umwe afite agakapu, abandi bari kuzamuka.

Abasore, inkumi bicaye ari batandatu, barambije, imbere yabo hari ibipapuro, udukapu, mudasobwa, igikapu mu mugongo, na bike mu kanwa.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe n'ameza ateretseho za mudasobwa, ikibaho cyu'mweru ubona ko abanyeshuri bigiramo kandi akaba atari bake ahubwo cyakira umubare munini.

Abagabo babiri n'umugore umwe bari mu nzu bifashisha bakoramo ubushakashatsi, mu ndimi z'amahanga bavuga laboratwari; bafite udukoresho twabugenewe dutandukanye, barimo baragenda basuzumiramo.

Icyumba k'ishuri giteraniyemo abantu batari benshi cyane kandi batari bake, kirimo gutangirwamo ibiganiro n'abantu babiri bicaye imbere, abandi bateze amatwi bari kumva icyo umwe arimo arabagezaho.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru sitade, hari aho bicara hatwikiriye amabati ndetse n'ishyamba riri hakurya, ririmo ibiti birebire.

Icyumba kigari giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, bigaragara ko hafi ya bose ari urubyiruko, bateraniye hamwe bisa nkaho hari uwo bateze amatwi, kigizwe n'amadirishya n'irange ry'umweru.

Icyumba kirimo utubati tubiri, turimo twose ibitabo bigaragara ko ari igice cy'isomero, hari n'ahamanitse ibyapa, hari amatara arimo araka n'intebe ebyiri.

Urugi rusize irange ry'ikijuju rwanditseho nimero mirongo itatu na gatandatu, rurakinze imbere harimo amarido y'umweru n'amadirisha ariko akaba ababanjirijwe na senyege imbere, hasize irangi ry'umukara ahagana hasi hejuru n'umuhondo werurutse.

Inyubako ndende ariko idakabije, iburyo ikikijwe n'ibiti, mo imbere yayo ibumoso bwayo hari indi nyubako, imbere hari abantu abahungu, abakobwa hari n'igare, hari amatara ndetse hari n'ubusitani.

Inzu eshatu, ebyiri muri zo zisize irangi ry'umutuku ku mabati, hanze hari icyapa, hari kandagira ukarabe bifashisha bakaraba intoki, imbere y'inzu imwe hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, avuga kuri kaminuza y'u Rwanda, hakaba hari n'andi avuga ku ihuriro ry'abanyeshuri.